Uyu munara ni uwa sosiyete y'itumanaho, aba ari umwe mu bituma abantu bakoresha ikoranabuhanga bashobora kumvikana, baba bari mu gihugu cyangwa se kuvugana n'abari hanze yacyo bigakunda.

Iri tangazo ni irishishikariza abantu gusura u Rwanda, cyane ko ari kimwe mu bihugu kirimo ibikorwa by'ubukerarugendo nka pariki y'Akagera irimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye, hari ibirunga, ishyamba rya Nyungwe ndetse n'ibindi.

Uyu ni umunara wa sosiyete y'itumanaho ukaba ari uburyo bufasha abaturage kuba bakumvikana n'abandi igihe bakoresha ikoranabuhanga, kandi no mukazi kabo ka buri munsi ibyo bakora bikihuta.

Uyu munara ni uwa sosiyete y'itumanaho, bikaba ari bimwe mu bifasha abaturage bakoresha ikoranabuhanga, kuba ryakora mu buryo bwihuse ndetse no mu gihe bakeneye no kuba bavugana n'abari hanze y'igihugu bikaba byakunda.

Uyu munara ni uwa sosiyete y'itumanaho, ukaba ari uburyo bufasha abakoresha ikoranabuhanga kumvikana mu buryo bwihuse kandi bakaba bashobora no kuvugisha n'abari hanze y'igihugu bigakunda.

Uyu munara ni uwa sosiyete y'itumanaho ufasha abaturage kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana bagakoresha ikoranabuhanga mu buryo bworoshye kandi bwihuta, ndetse bakaba bashobora kuvugana n'abari mu mahanga.

Uyumunara nuwa sosiyete yitumanaho aho ufasha abaturage kuba bakumvikana igihe bakoresha ikoranabuhanga bahamagarana baba bari mugihugu cyangwa se bavugana nabari hanze yacyo.

Hano turahabonaho abanyeshuri bari kwigira kuri za mudasobwa kandi nk'uko bigaragara buri mwana afitiye, bikaba bigaragaza uburyo ikoranabuhanga ryateye imbere rikaba ryigishwa no mu mashuri kugira ngo bifashe abiga kuba babibyaza umusaruro.

Uyu ni umunara w'ikigo cy'itumanaho aho ufasha abaturage mu kumvikana igihe bahamagarana, mu gihe bakoresha ikoranabuhanga mu kazi kabo cyangwa se bavugisha abari hanze y'igihugu.

Hano turabonaho ipoto ririho insinga nyinshi z'amashanyarazi, zijyanana umuriro mu ngo zitandukanye z'abaturage, hakaba ari kimwe mu bikorwaremezo kibegereza, kandi bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Hano turabonaho insinga nyinshi z'umuriro, aho ziwujyana mu ngo z'abaturage zitandukanye, ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibindi, nk'ubucuruzi, bikaba bifasha abakora akazi kabo ka buri munsi kugenda neza, ndetse bikagaragaza n'iterambere ry'igihugu.

Hano turabonaho ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi zijyana umuriro ahantu hatandukanye nko mungo zabantu mumazu y'ubucuruzi akaba ari bimwe mu byorohereza abafite utuzi bakora cyane ko murikigihe abenshi bakoresha ikoranabuhanga ndetse bikagaragaza n'iterambere ry'igihugu.

Hano turahabona insinga nyinshi zijya mu byerekezo bitandukanye. Aho hari izijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abantu, bikaba bigaragaza kimwe mu bikorwa by'iterambere biranga igihugu, kandi bikorohereza n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Iyi poto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi aho ruwujyana mu ngo zitandukanye mu nzu z'ubucuruzi ndetse n'ahandi, bikaba byorohereza abaturage mu kazi kabo ka buri munsi bitewe n'uko akenshi baba bakoresha ikoranabuhanga baba bawukeneye ndetse n'ibindi.

Hano turabona aho imitaka ikorerwamo na bamwe mu bakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, akaba ari uburyo bushyirwa ahantu hatandukanye aho bifasha abaturage kuba babitsa amafaranga yabo, bakayabikuza, bakayoherereza abandi, ndetse n'ibindi.

Aya ni amapoto ariho insinga z'umuriro, ziwujyana mu ngo zitandukanye ndetse no mu mazu y'ubucuruzi, iki kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cyateye imbere, aho abaturage bose baba bashobora gucana ndetse bikabafasha no mu mirimo yabo ya buri munsi.

Hano turabona ipoto iriho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu ngo zitandukanye ndetse no mu yandi mazu nk'akorerwamo ubucuruzi n'ibindi, bikaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu, aho abantu bose bashobora gukorera ahantu habona.

Iyi n'ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, zijyana umuriro mu ngo z'abaturage, ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibindi bikorwa. Ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi bigafasha abakora akazi ka buri munsi kugakora neza batuje, ndetse n'uko haba habona.

Izi nsinga ni izijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye, ndetse n'andi mazu akorerwamo ibindi, bikaba bifasha abaturage mumirimo yabo ya buri munsi, kandi bikagaragaza iterambere ry'igihugu.

Hano turahabona akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyeni, aho yegereza abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohereze nko kuba bakwibikuriza amafaranga, kuyabitsa, kugura amayinite yo guhamagara n'ibindi.

Hano turabonaho insinga nyinshi zitandukanye z'umuriro w'amashanyarazi, ziwujyana mu ngo z'abaturage ndetse n'amatara yo ku muhanda, aho bifasha abantu mu gihe bava mu kazi cyangwa bakora ingendo za nijoro kumva batekanye bitewe nuko haba habona, ibi bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Hano turabonaho ipoto iriho insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cyateye imbere, ndetse bigafasha n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu kazi bakora.

Hano turabonaho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye, ndetse no mu y'andi mazu akorerwamo imirimo nk'ay'ubucuruzi akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi turabonaho n'amatara yo k'umuhanda afasha abakora kuba bumva bafite umutekano ndetse no mu gihe bataha n'ijoro.

Izi nsinga ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi bigafasha n'abantu mu mirimo yabo ya buri munsi, bitewe n'uko bawukenera mu kazi bakora.

Iyi n'ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye, akaba ari uburyo bworohereza abaturage mu mirimo yabo ya buri munsi cyane ko muri iki gihe abenshi bakoresha ikoranabuhanga, biba bigaragaza n'iterambere ry'igihugu.

Hano turabonaho ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ziwujyana mu ngo zitandukanye, bikaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu, ndetse bigafasha abaturage mu buzima bwabwo bwa buri munsi, cyane ko muri iki gihe abenshi baba bakoresha ikoranabuhanga, bawukeneye.

Iyi migozi y'amashanyarazi, niyo ujyana ahantu hatandukanye, nko mu mazu y'ubucuruzi, ingo zituyemo abaturage, bikaba ari bimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi bigafasha benshi mu mirimo ya bo ya buri munsi.

Iyi migozi ni iy'umuriro wa mashanyarazi, aho iwujyana mu ngo zitandukanye, ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibikorwa nk'ibyubucuruzi, n'ibindi, bikaba ari igikorwa remezo kigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi bikorohereza abantu gukora ibikorwa byabo bya buri munsi neza.

Hano turabonaho itara ryo kumuhanda akaba ashyirwaho mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage igihe bakora nijoro, kandi bikaba binagaragaza iterambere ry'igihugu kuko bishobora gufasha abakeneye gukora mu masaaha ya nijoro, kuba bizeye ko ntakibazo bahura na cyo.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Hano turabonaho insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi ziwujyana ahantu mu nzu zitandukanye zaba izituwemo n'abantu cyangwa se izikorerwamo imirimo y'ubucuruzi ndetse n'ibindi, kandi tukaba tuhabona n'amatara afasha abakora kumva bisanzuye kandi bafite umutekano bitewe n'uko baba bahabona.

Iyi poto iriho insinga z'umuriro, ni iziwugemura mu ngo zitandukanye z'abaturage, ndetse no mu mazu y'ubucuruzi, n'ahandi, bikaba ari igikorwa kigaragaza iterambere ry'igihugu, aho abantu bose baba bacanye, bakorera ahantu habona.

Iyi poto turayibonaho insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye nkuko bigaragara, ndetse bikaba bigaragaza iterambere ry'igihuhu no korohereza abaturage mu mirimo bakora ya buri munsi.

Izi nsinga nyinshi tubonaho hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage ndetse no mu mazu akorerwamo ibindi bikorwa. Akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bigafasha n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Iyi ni ipoto iriho imigozi myinshi itandukanye, ikaba ijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye, mu mazu y'ubucuruzi n'ahandi hakorerwa ibindi bikorwa, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, kuko bifasha abaturage gukora akazi kabo ka buri munsi mu buryo buboroheye.

Iyipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, zijyana umuriro mu ngo zitandukanye, ndetse no mu mazu y'ubucuruzi, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu, aho abantu bose baba bacanye, ndetse bikorohereza n'abakora akazi ka buri munsi bakagenda neza.

Hano turabonaho amatara yo ku muhanda akaba afasha abawukoresha kuba bumva bafite umutekano bitewe n'uko baba bakoreye ingendo ahabona ndetse turabonaho n'insinga zijyana umuriro mu ngo zitandukanye, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bikorohereza abakora akazi ka buri munsi.

Hano turabonaho igiti kiririmo insinga zitandukanye, zijyana umuriro mu ngo z'abaturage, ndetse no mu mazu y'ubucuruziba akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu, ndetse bigafasha abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Hano turabona akazu kashyiriweho abagenzi kugira ngo babe baruhukiramo mu gihe bari ku rugendo cyangwa se igihe bategereje imodoka ndetse n'abandi baba bafite nk'ikibazo cy'uburwayi bikabafasha.

Iyi poto iriho insinga zitandukanye z'amashanyarazi, aho zijyana umuriro mu ngo zo hirya no hino, ndetse no mu mazu y'ubucuruzi. Bikaba ar'ibigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi kubera ko muriki gihe abantu benshi baba bakora imirimo yabo bakoresheje ikoranabuhanga, bikabafasha.

Hano turabonaho imigozi myinshi y'umuriro w'amashanyarazi aho iwujyana ahantu hatandukanye nko mu mazu y'ubucuruzi, mu ngo abantu batuyemo, bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bigafasha n'abaturage mu mirimo yabo ya buri munsi kandi turabonaho n'amatara yo ku muhanda afasha abakora akazi kugakora bumva bafite umutekano bitewe n'uko haba habona.

Iyi poto iriho insinga nyinshi zijyana umuriro mu ngo zitandukanye, ndetse no mu mazu y'ubucuruzi, kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu, kubera ko rifasha abaturage kuba bakora akazi kabo ka buri munsi neza, ndetse hakabaho n'umutekano.

Kuri iyi ipoto turabonaho insinga z'amashanyarazi ziwujyana mu ngo zitandukanye ndetse n'amazu y'ubucuruzi, aba ari igikorwa k'iterambere kandi bifasha abaturage gukora imirimo yabo ya buri munsi ndetse turabonaho n'itara ryo ku muhanda rituma bakora bumva bafite umutekano kubera ko haba haba.

Iyi migozi myinshi tubonaho hano ni ijyana umuriro w'amashanyarazi munzu zitandukanye nk'izikorerwa imirimo y'ubucuruzi izituwemo n'abantu ndetse nibindi bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu kuko bituma abakora akazi ka buri munsi bagakora neza uko bikwiriye.

Hano turabonaho imitaka itandukanye ndetse n'icyapa cya sosiyete y'itumanaho ya MTN, bukaba ari uburyo bwegerezwa abaturage kugirango babone bimwe mu bikorwa byayo harimo nko kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kuyohereza ndetse no kugura amayinite yo guhamagara.

Izi nsinga z'amashanyarazi ni izijyana umuriro mu ngo z'abaturage zitandukanye, aho bibafasha gukora imirimo yabo ya buri munsi ndetse bikaba bigaragaza n'iterambere ry'igihugu kandi tukaba turi kubonaho n'itara ryo ku muhanda, rifasha abakora ingendo haba n'ijoro bavuye mu kazi, kuba bumva batekanye kubera ko haba habona.

Hano turabonaho ifoto iriho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, nko mu mazu y'ubucuruzi, bikaba ari imwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bigafasha gukora imirimo ya buri munsi kuba yagenda neza cyane, kuko abenshi baba bakoresha ikoranabuhanga.

Hano turabonaho itara ryo ku muhanda ndetse n'ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi biwujyana mu ngo zitandukanye, akaba ari ibikorwa remezo bigaragaza iterambere igihugu cyagezeho.

Izindi nsinga z'amashanyarazi zigemura umuriro mu ngo zitandukanye ndetse no mu mazu y'ubucuruzi akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bigatuma n'abantu bakora imirimo yabo neza.

Hano turabonaho amapoto ariho insinga nyinshi z'umuriro, ziwujyana mu ngo zitandukanye mu mazu y'ubucuruzi ndetse n'ahandi, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bigafasha abaturage gukora akazi kabo ka buri munsi neza, mu mutekano, bitewe n'uko haba habona.

Ibi ni ibitaro bya Kaminuza nkuru y' u Rwanda biherereye mu karere ka Huye, aho byoherezwamo abaturage baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu kandi nk'uko tubibona hari ibyapa biranga aho umuntu ashaka kuba yakwivuriza akahasobanukirwa mu buryo bworoshye.

Iyi ni imbangukiragutabara ikaba ari imodoka yifashishwa mu mavuriro atandukanye kugira ngo ifashe mu gihe hari umurwayi urembye kandi ukeneye kugera aho yoherejwe kugira ngo ubuzima bwe bukurikiranwe.

Iyi ni imbangukiragutabara akaba ari imodoka zifashishwa mu amavuriro atandukanye, kugira ngo zifashe mu gihe hari umurwayi urembye ukeneyewe kugezwa ku irindi vuriro kuba yahagera mu buryo bwihuse ubuzima bwe bugakurikiranwa.

Ibi bitaro ni ibya kaminuza nkuru y'u Rwanda, bikaba biherereye mu karere ka Huye, aho byoherezwamo abaturage baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu kugira ngo bavurwe, ubuzima bwabo bukurikiranywe n'ababishoboye, ndetse turabonaho n'ibyapa biyobora abaje kwivuza aho berekeza bitabagoye.

Hano turabonaho imbangukiragutabara, akaba ari zimwe mu modoka zifashishwa ku mavuriro atandukanye kugira ngo zifashe abarwayi bakeneye ubuvuzi bwihutirwa, barembye, kugezwa aho bafashirizwa ndetse wenda n'abakoze impanuka.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho biherereye mu karere ka huye, bikaba ari bimwe mu byoherezwamo abaturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo babone ubuvuzi bakeneye, kandi hakaba hari abaganga baba bizewe babishoboye.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda aho biherereye mu karere ka Huye tukaba turi kubonaho ibyapa biyobora abarwayi bikaba biborohereza kumenya aho bagomba kujya bitewe n'uburwayi bafite.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu karere ka Huye bikaba ari bimwe mu byoherezwamo abarwayi baturutse mu turere two hirya no hino mu gihugu kugira ngo bafashwe n'inzobere mu buvuzi bakeneye

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u rwanda biherereye mu karere ka huye aho byoherezwamo abaturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakeneye n'abaganga babishoboye ndetse tukaba tubona n'ibyapa bifasha ababigana kuba bamenye aho berekeza bitabagoye.

Ibi bitaro ni ibya Kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu karere ka Huye, aho byoherezwamo abaturage baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugi kugira ngo bafashwe mu buvuzi bakeneye.

Hano turabona ahakirirwa abarwayi bafite uburwayi bukomeye cyane, by'umwihariko nk'abakoze impanuka, ndetse n'ibindi bibazo, kandi tukabonaho n'imbangukiragutabara, akaba ari imwe mu modoka yifashishwa, kugira ngo ifashe abarwayi bakeneye ubuvuzi bwihutirwa, kubageza aho babonera ubufasha.

Iyi ni gereza ya nyarugenge aho ishyirwamo abagiye kugororwa bitewe n'ibyaha bitandukanye baba barakoze, ndetse bagatorezwamo n'imirimo itandukanye, kugira ngo bazasohoke bafitiye igihugu akamaro aho kugisenya.

Abagororwa baba barafunzwe bazira ibyaha bitandukanye, aho bashyirwa bakaba batozwa n'indi mirimo itandukanye, kugira ngo basohoke bakora ibikorwa bifitiye akamaro igihugu aho kugisenya.

Aba ni abagororwa bafungiye muri imwe muri gereza bakaba bashyirwa hano kugira ngo bigishwe kandi bagorarwe, bagahugurwa mu mirimo igiye itandukanye kugira ngo bazasohoke bafitiye igihugu akamaro aho gikora ibikorwa bigisenya.

Hano turabonaho abagororwa bari mu mirimo itandukanye aho bashyirwa mu igororero bitewe n'ibyaha baba barakoze, bagatozwa kugira ngo bazasohoke bakora imirimo ifitiye igihugu akamaro aho kugisenya.

Aba ni abagororwa, bafunzwe bazira gukora ibyaha bitandukanye; bakaba bashyirwa mu kigo cy'igororero kugira ngo bafashwe, kandi bigishwe imirimo itandukanye, izatuma nibasohoka bateza igihugu imbere.

Iyi ni inzu ngororamuco, aho ishyirwamo abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe, kandi bakigishwa imirimo inyuranye, kugira ngo bazasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro aho kugisenya.

Iyi ni gereza ya Nyarugenge ishyirwamo abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe kandi bigishwe imirimo izatuma basohoka bafitiye igihugu akamara aho gukora ibikorw bigisenya.

Iri cupa ni iribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, rikaba rishyirwa ahakunda guhurira abantu benshi nko mu nsengero, mu mashuri, mu mavuriro, mu masoko n'ahandi kugira ngo bibe byafasha ubuzima bwa benshi mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aya macupa ni abamo imyuka yifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba ashyirwa abantu hahurira abantu benshi, nko mu nsengero, mu masoko, mu amavururo, mu bigo by'amashuri n'ahandi, kugira ngo birokore ubuzima bwa benshi mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aya macupa abamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, akaba ashyirwa ahakunze guhura abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, mu mashuri ndetse n'ahandi kugira ngo bibe byarokora ubuzima bwa benshi.

Iri cupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba ari amwe muyifashishwa ahakunze guhurira abantu benshi nko mu masoko, mu nsengero, mu mavuriro, mu mashuri n'ahandi, kugira ngo mu gihe habayeho icyo kibazo, bibe byatabara ubuzima bw'abantu benshi.

Aba ni abapolisi akaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano by'umwihariko wo mu muhanda, bakaba bibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko uko bikwiriye, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iri cupa ni irivamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba akunze gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mashuri, mu nsengero, mu mavuriro n'ahandi kugira ngo mu gihe habayeho icyo kibazo, bibe byarokora ubuzima bwa benshi.

Iri cupa ni iribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, rikaba rikunze gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko, mu nsengero, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi, kugira ngo bibe byakiza ubuzima bwa benshi mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aya macupa abamo umwuka wifashishwa mukuzimya mu igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba akunda gushyirwa ahantu hahurira abantu benshi nko mu mashuri, mu masoko mu mavuriro, mu nsengero, n'ahandi , kugirango bibe byarokora ubuzima bw'abantu mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aya macupa avamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, akaba akunda gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, mu mashuri, mu nsengero ndetse n'ahandi.

Hano turabonamo abashinzwe umutekano mu mihanda, aho bari gufasha abagenda n'amaguru kubona uburyo bwo kwambuka, kugira ngo babe batahura n'impanuka bitewe n'ibinyabiziga byinshi mu muhanda ndetse bagafasha n'abatwaye kugenda kuri gahunda mu rwego rwo kuzirinda.

Hano turabona aho umwe mu bagize abashinzwe umutekano wo mu muhanda, by'umwihariko bakaba bafasha igihugu mu gihe bibutsa abatwara ibinyabiziga amategeko babagomba kugenderaho kugira birinde guteza impanuka.

Icupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, rikaba rishyirwa ahakunze guhurira abantu bensh i: mu masoko, mu nsengero, mu mashuri ndetse no mu modoka rusange; kugira ngo mu gihe habayeho icyo kibazo, birokore ubuzima bwa benshi.

Iri cupa ni irivamo umwuka wifashishwa mu kuzimya mu gihe habayeho inkongi y'umuriro. Akaba aba akenewe gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu nsengero, mu mashuri, mu masoko, mu mavuriro, n'ahandi kugira ngo abe yafasha gutabara ubuzima bwa benshi mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hariya turahabonaho abapolisi bakaba ari bamwe mu bafasha mu mutekano w'igihugu by'umwihariko wo mu muhanda, aho baba bari kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Aya macupa ni avamo umwuka wifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro, akaba akunze gushyirwa ahahurira abantu benshi, nko mu mavuriro, mu masoko, ku bigo by'amashuri, mu nsengero, no mu modoka zitwara abagenzi rusange.

Hano turabona aho umwe mu bashinzwe umutekano uri guhugura abanyeshuri, uburyo bakoresha icupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, ku buryo bagize icyo kibazo bashobora kwitabara.

Amacupa abamo umwuka wifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, akaba ashyirwa ahantu hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, mu mashuri, mu nsengero kugira ngo mu gihe habayeho icyo kibazo, ubuzima bwa benshi burokoke.

Aha ni aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari ari kwiyamamariza kuyobora, nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari bamwishimiye, bamushyigikiye kandi bari kumugaragariza urukundo.

Uyu n'umukuru w'igihugu cyu Rwanda, aho yari ari kwiyampamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari kumugaragariza urukundo, bamwishimiye kandi bamwereka ko bamushyigikiye.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yari ari kwiyamamariza mu duce dutandukanye, ndetse abaturage bakaba bari kumwereka urukundo, bamwishimiye, kandi ko bamushyigikiye.

Aba ni abaturage bari kwamamaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda "Poro Kagame", aho yari ari kwiyamamariza kuyobora, ibi bikaba bigaragaza urukundo no kuba bari bamwishimiye, kandi bamushyigikiye.

Hano turabonaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yari ari kwiyamamaza kuyobora, nk'uko bigaragara, abaturage bakaba bari bamugaragarije urukundo mwereka ko bamwishimiye kandi bamushyigikiye.

uyu ni umukuru w'igihugu cy'uRwanda aho yari ari kwiyamamariza mu turere dutandukanye ndetse bikaba bigaragaza ko abaturage bamwishimiye bamwereka urukundo kandi ko bamushyigikiye.

Uyu ni umukuru w'igihugu aho yarari kwiyamamariza kuyobora, ndetse nk'uko tubibona inyuma ye abaturage bari benshi baje kumushyigikira, bamwereka urukundo, kandi bamwishimiye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yarari kwiyamamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bamweretse urukundo, bamwishimiye kandi bamushyigikiye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yari ari kwiyamamariza kongera kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturageba bakaba bari bamwishimiye bamwereka urukundo kandi bamushyigikiye.

Aha ni hamwe mu ho umukuru w'igihugu yari ari kwiyamamariza, aho yajyaga mu turere dutandukanye tw'igihugu, nk'uko bigararaga abaturage bakaba bari kumugaragariza urukundo, bamwishimiye, kandi bamwereka ko bamushyigikiye.

Hano turabona aho utwara abantu ndetse n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari bumwe mu buryo bworohereza abaturage mu ngendo zabo za buri munsi, kuko bwihuta kandi bukaba buhenduka.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n'ibintu akaresheje ikinyabiziga cya moto, ari uburyo abakora ingenda za buri munsi bakunda bitewe nuko buborohereza kugera aho bakorera mu buryo bwihuse kandi buhendutse.

Iyi ni moto, ikaba ari ikinyabiziga abakora akazi ka buri munsi bakunda kugendaho, bitewe n'uko bihuta kandi bikaba ari uburyo buhendutse.

Ubu ni ubwikorezi bw'imizigo bwifashisha amagare bikaba byorohereza abacuruzi cyangwa se abadashobora kwikorera ibintu biremereye kuba bayifashisha kugira ngo ibicuruzwa byabo bigere aho bakorera mu buryo bworoshye

Izi modoka zitwara abagenzi rusange, ni zimwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali, zikaba zifasha abakora ingendo za buri munsi, nk'abakozi, abanyeshuri ndetse n'abandi, kubona uburyo bwo kugera aho bajya biboroheye.

Izi modoka tubona hano, ni zimwe abantu bakunze kwifashisha mu gihe bagiye ku rugendo, badashaka kugenda mu za rusange, cyangwa se nk'abarwayi bashobora kuzifashisha zikabageza kwa muganga mu gihe cyihuse.

Iyi kamyo nini ni imwe mu zifashishwa by'umwihariko mu bijyanye n'ubwubatsi, kubera ko ishobora gupakira ibintu byinshi kandi biremeye; nk'umucanga, amabuye, ibitaka, n'ibindi.

Hano tuarabonaho abatwara abantu n'ibintu bakoresheje ibinyabiziga bya moto bukaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo za buri munsi kugera aho bagiye byihuse kandi bidahenze.

Hano turabonaho ingorofani yifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, ikaba iborohereza mu gihe hari nk'ibintu biremereye cyane badashobora kwikorera nk'imifuka myinshi, amakarito ndetse n'ibindi.

Hano turabona ho imodoka zemewe zikoreshwa mu guhugura abakeneye gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, zikaba zibafasha kumenya uko bashyira mu bikorwa amategeko baba barize.

Iyi moto tubonaho hano, ni imwe mu byifashishwa mu gutwara ibintu biremereye, nk'imizigo ndetse n'ibindi ,abacuruzi bakaba bakunda kuyifashisha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo aho bakorera, ndetse n'ibindi.

Ibi ni bininyabiziga bya moto; aho abantu bakunze kubitega bitewe n'uko ari uburyo bwihuta buhendutse, kandi zikaba zishobora kugera n'aho imodoka itagera nko mu mihanda y'ibitaka n'ahandi.

Muri uyu muhanda turabonamo ibinyabiziga bitandukanye, by'umwihariko moto nini zifashishwa mu gutwara imizigo, kuri zimwe mu zorohereza abacuruzi kuba bageza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye, mu kubishyira abaguzi, cyangwa se mu gihe bavuye kurangura bakazifashisha.

Hano ni muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo, ahakorera amabisi manini atwara abagenzi rusange abavana mu gace kamwe abajyana mu kandi, bikaba ari ibyorohereza abagenzi bakora ingendo za buri munsi baba abacuruzi ndetse n'abanyeshuri kubona uburyo bwo kugera aho bajya byoroshye.

Iyi kamyo nini n'imwe muyifashishwa by'umwihariko mu bijyanye n'ubwubatsi aho ipakira ibintu byinshi kandi biremereye nk'umucanga, amatafari yo kubakisha, ibitaka n'ibindi.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikoreshwa mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, bukaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abacuruzi, abanyeshuri n'abandi.

Iyi kamyo nini cyane, ni bimwe mu zifashishwa mu gutwara ibintu byinshi kandi biremereye cyane, ikaba ikunze gukoreshwa n'abubatsi, bayitwaramo umucanga, amabuye ndetse n'ibindi.

hano turabonaho utwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari bumwe mu buryo bworohereza abakora akazi ka buri munsi bitewe n'uko bihuta bakagerera aho bakorera ku gihe ndetse bukaba buhendutse.

Iyi ni imwe mu modoka nini zikorera mu mugi wa Kigali, zitwara abantu rusange, zikaba zifasha abakora utuzi twa buri munsi; nk'abacuruzi, abanyeshuri, ndetse n'abandi, kugera aho bajya ku gihe.

Hano turabonaho moto yifashishwa mugutwara imizigo, cyane cyane nk'abacuruzi bakaba aribo bakunze kuyifashisha mugihe bamaze kurangura ibicuruzwa, ikabibagereza aho bakorera muburyo bworoshye.

Iyi mirongo ni iyerekana aho umunyamaguru yambukira, ikaba ari uburyo bwo gufasha abatwara ibinyabiziga kumenya aho bagomba kugenda gake, kugira ngo batagira uwo bagonga mu gihe ari gutambuka, ndetse n'abakoresha umuhanda bakamenya, uburyo bwemewe n'amategeko aho guca aho babonye hose.

Iyi moto ni imwe mu byifashishwa mu gupakira imizigo ndetse ikaba ikunze kwifashishwa n'abacuruzi mu gihe bavuye kurangura ibicuruzwa byayo kugira ngo babigeze aho bakorera mu buryo bworoshye.

Iyi ngorofani yifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, aho ibafasha gupakira ibintu biremereye kandi byinshi badashobora kwikorera ku mutwe harimo nk'imifuka, amakarito amajerekani ndetse n'ibindi.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Hano turabonaho ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, aho tubonaho imodoka bamwe bakunze gutega, mu mu gihe badashaka kugenda mu za rusange cyangwa bagiye ku rugendo rwa kure ndetse n'abarwayi bashobora kuyitega kugira ngo bagerwe aho bafashirizwa byihuse, kandi turabonaho n'abatwara abantu ku binyabiziga bya moto, bukaba ari uburyo abakora akazi ka buri munsi bakunda, bitewe n'uko bwihuta.

Aba ni bamwe mu batwara abantu n'ibintu bakoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari bumwe mu buryo bworohereza abakora ingendo za buri munsi kuko bwihuta kandi bukaba buhendutse.

Iyi moto ni imwe mu byifashishwa mugutwara ibintu biremereye nk'imizigo byumwihariko abacuruzi bakaba aribo bakunda kuyikoresha bayipakiramo nk'ibyo baranguye kugira ngo babigeze aho bakorera.

Iki ni kimwe mu bikamyo binini bipakira ibintu byinshi kandi biremereye, bikaba bikunze gukoreshwa by'umwihariko mu by'ubwubatsi, harimo nko kwikorera umucanga, amabuye, ibitaka n'ibindi.

Iyi moto nini tubona hano, ni imwe mu zifashishwa mu gupakira imizigo cyangwa se ibindi biremereye; aho abacuruzi bakunze kuzifashisha kugira ngo bagezwe ibicuruzwa byabo ku babiguze, cyangwa se nko mu gihe bavuye kurangura bakabona uko bigera aho bakorera.

Hano turabonaho utwara abantu ndetse n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari uburyo bworohereza abakora akazi ka buri munsi, kugera aho bakorera mu buryo bwihuse, kandi buhendutse.

Hano turabonaho moto yifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'ibindi biremereye, ikaba ifasha abacuruzi by'umwihariko, baba abavuye kurangura, kuba bageza ibicuruzwa byabo aho bakorera bitabagoye.

Hano turabonaho ibinyabiziga bitandukanye by'umwihariko umuntu utwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, bukaba ari uburyo abakora akazi ka buri munsi bakunze kwifashisha, bitewe n'uko bwihuta kandi buhendutse.

Iyi ni ingorofani yifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, aho ishyirwamo ibiba biremereye cyane badashobora kwikorera; nk'imifuka, amakarito menshi, ndetse n'ibindi.

Hano turabonaho abatwara abagenzi bakoresheje ibinyabiziga bya moto akaba ari uburyo bworohereza abakora ingenda za buri munsi kugera aho mu buryo bwihuse kandi buhendutse.

Hano turabona moto zifashishwa mu gupakira imizigo ndetse n'ibindi bintu biremereye zikaba zifasha abacuruzi mu gihe bavuye kurangura ibicuruzwa byabo kuba babigeza aho bakorera mu buryo bworoshye.

Iyi kamyo nini tubonaho hano imwe mu zitwara ibintu byinshi kandi biremereye, aho bikunze kwifashishwa n'abakora umwuga wo kubaka bayipakiramo umucanga amatafari n'ibindi.

Hano turabonaho ibinyabiziga bitandukanye, amabisi atwara abagenzi rusange, by'umwihariko tukaba tubonaho moto, itwara ibintu biremereye nk'imizigo, ikaba ikunze gukoreshwa n'abacuruzi mu gihe bashaka kugeza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye.

Iyi ni moto ikoresha amashanyarazi akaba ari bimwe mubyo leta iri guteza imbere mu rwego rwo kwirinda kwangiriza ikirere bitewe n'imyotse kandi ni n'uburyo abaturage bakora akazi ka buri munsi bakunda gukoresha kubera ko yihuta kandi ikaba idahenda.

Aba ni bamwe mu batwara abagenzi n'ibintu bakoresheje ibinyabiziga bya moto bukaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo za buri munsi kugera aho bagiye mu buryo bwihuse kandi buhendutse.

Iyi modoka nini turi kubonaho hano ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange zikaba zifasha abakora ingendo za buri munsi nk'abajya ku kazi, abacuruzi, ndetse n'abanyeshuri.

Hano turahabona abatwara ibinyabiziga bya moto, akaba ari mu mujyi wa kigali, aho byiganjemo ibikoresha umuriro w'amashanyarazi, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Aya magare ni amwe mu byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, by'umwihariko nk'abafite ubushobozi buke, bakeneye gukora urugendo, bashobora kuyatega ndetse n'abafite imitwaro cyangwa se imizigo nabo bashobora kuyifashisha.

Iyi bisi nini n'imwe muzikora mumugi wa kigali aho zitwara abagenzi rusange zibaryana muduce dutandukanye, kandi zikaba zorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri, abakozi n'abandi kugira aho bajya m'uburyo buboroheye kandi buhendutse.

Iyi modoka nini ni imwe mu zitwara abagenzi rusange zikorera hano mu mujyi wa Kigali, zikaba zorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri, abakozi ndetse n'abandi kubona uburyo bwo kugenda byihuse.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo kizwi cyane mu Rwanda mu gutanga ubwishingizi, gikoresha amabara y'umweru n'ubururu kandi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, si ubuzima gusa kandi batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, imitungo mu gihe umuntu imitungo yahuye n'ikibazo cyangwa se ikinyabiziga cye cyahuye n'impanuka baramufasha kugirango yongere asubirane ibyo yahombye.

Hano turabonaho abatwaye ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye by'umwihariko ikamyo nini iriho, ikaba ari imwe mu ipakira ibintu byinshi kandi biremereye, abubatsi akaba aribo bakunda kuyifashisha bapakiramo umucanga, amatafari ndetse n'ibindi.

Iyi ni imwe muri bisi zikorera mu mujyi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi. Bikaba byorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'banyeshuri, abacuruzi n'abandi; kuba bagera aho bajya mu buryo bworoshye.

Iyi bisi ni imwe muzikorera mu mujyi wa Kigali aho itwara abagenzi rusange bukaba ari uburyo bufasha mugukora ingendo za buri munsi by'umwihariko nk'abanyeshuri, abacuruzi ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye.

Izi moto tubona hano ni zimwe mu zifashishwa by'umwihariko n'abacuruzi mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze uduce dutandukanye, cyangwa se bavuye kurangura bashaka ko bigeraho bakorera.

Izi modoka ni zimwe mu zifashishwa muri uyu mujyi wa Kigali mu gutwara abantu rusange, ndetse zikaba zorohereza abakora imirimo ya buri munsi bakenera gutega, kuba babona uburyo bworoshye bwo kugenda, nk'abacuruzi, abanyeshuri n'abandi.

Iyi moto ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo cyangwa se ibindi bintu biremereye, aho abacuruzi bayifashisha mu gihe bakeneye kohereza ibicuruzwa byabo ku babiguze, cyangwa se bavuye nko kurangura bashaka kubigezaho bacuruza.

Izi modoka tubona hano, ni zimwe mu zikora mu mujyi wa Kigali, zikaba zitwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, bikaba byorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri, abakozi, kuba bagera aho bajya mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Iyi modoka nini, ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali itwara abagenzi rusange kandi zikaba zorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abagiye ku kazi, abacuruzi, abanyeshuri ndetse n'abandi.

Iyi moto ni ikoreshwa mu gutwara imizigo ndetse n'ibindi bintu, aho ikunze kwifashishwa n'abacuruzi mu gihe bari kurangura ibicuruzwa, ikabafasha kubibagereza aho bakorera mu buryo bworoshye.

Iyi moto ni imwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'ibindi bintu biremereye, aho abacuruzi bakunze kuzifashisha mu gihe bavuye kurangura, kuba bageza ibicuruzwa byabo aho bakorera, cyangwa se kubigemurarira ababiguze.

Iyi modoka nini ni imwe mu zitwara abagenzi rusange mu mujyi wa Kigali zikaba zorohereza abakora imirimo ya buri munsi nk'ubucuruzi, abanyeshuri ndetse n'abandi kugera aho bajya mu buryo bworoshye.

Muri uyu muhanda turabonaho umwe mubatwara abantu n'abantu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari bumwe muburyo bworohereza abakora akazi ka buri munsi, kugera aho bakorera muburyo bwihuse Kandi buhendutse.

Hano turabonaho utwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, bukaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo za buri munsi, kuko bwihuta kandi bukaba buhendutse.

Imitako ya kinyarwanda yo mu bwoko bw'intango imanitse iri mu mabara atandukanye y'umweru n'umukara, umuhondo, icyatsi kaki, ubururu, orange.

Iki kinyabiziga cya moto gikoreshwa n'umuriro w'amashayarazi, aho gifasha igihugu mu kubungabunga ibidukikije, bitewe n'uko ntamyotsi yangiza iba isohora.

Hano turabonaho ibinyabiziga bya moto akaba ari bimwe mubyo abantu bakunze gukoresha by'umwihariko abakora akazi ka buri munsi bitewe nuko yihuta kandi bikaba bihendutse.

Iyi moto nini tunonaho hano n'iyifashishwa mu gutwara ibintu biremereye bitandukanye, by'umwihariko abacuruzi bakaba bakunze kuyifashisha mu gihe bashaka kugeza ibicuruzwa byabo ku baguzi cyangwa se ibyo baranguye, kugirango bigere aho kakorera.

Iyi ngorofani tubona hano ni iyifashishwa na bamwe mu bikorera imizigo, ikaba ibafasha gutwara ibintu biremereye cyane badashobora kwikora ku mutwe nk'imifuka myinshi amakarito n'ibindi.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zikaba zorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri, abacuruzi ndetse n'abandi bakora utuzi dutandukanye.

Hano turabona aho kimwe mu binyabiziga bya moto gikoresha amashanyarazi, hakaba ari uburyo bwiza bukoreshwa mu rwego rwo kurinda ibidukikije no kwirinda ibyotsi, byangiza ikirere.

Hano turabonaho moto yifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'ibindi bintu, ikaba ikunze kwifashishwa n'abacuruzi mu gihe bavuye kurangura ibicuruzwa byabo kugira ngo babigeze aho bakorera mu buryo bworoshye.

Hano turabonaho umuntu utwara abagenzi akoresheje ikinyabiziga cya moto, bukaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo za buri munsi kugera aho bashaka kujya mu buryo bwihuse kandi buhendutse.

Iyi ni ikamyo nini cyane, yifashishwa mu gutwara ibintu biremereye by'umwihariko bikunze gukoreshwa mu mushinga w'ubwubatsi, nk'umucanga, amatafari, ibitaka n'ibindi.

Hano turabonaho ikinyabiziga cya moto, akaba ari kimwe mu byo abantu bakunze gutega mu gihe bagiye mu mirimo yabo ya buri munsi, kubera ko byihuta kandi bikaba biciriritse.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Hano turabonaho moto nini yifashishwa mu gutwara ibintu biremereye birimo imizigo, abacuruzi bakaba bakunze kuyikoresha mugihe bavuye kurangura bikabafasha kugeza ibintu byabo aho bakorera cyangwa se kubishyira ababiguze.

Uyu ni umwe mu batwara abagenzi n'ibintu akoresheje igare, akaba ari kimwe mu bifasha abaturage by'umwihariko abafite ubushobozi buke bakeneye kugera aho bajya, ndetse n'abarimo abacuruzi mu gihe bafite imitwaro bashaka kujyana, haba gucuruza cyangwa kugeza aho bakorera.

Hano ni mugi wa Kigali ahari umwanya wahariwe abaturage aho bawifashisha bidagadura, baganira, baruhuka kandi bakaba bumva batekanye bitewe nuko nta binyabiziga biba bihaca.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahashyizwe igice cyahariwe abaturage aho nta binyabiziga bihagenda, hakaba ari hamwe muhabafasha kuba baruhuka, abakeneye kuganira ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye nk'imyidagaduro.

Aha ni mu mugi wa kigali ahahariwe abaturage ho hubatse intebe kumuhanda zibafasha kuruhuka mu gihe bari ku rugendo, abakeneye kuganira cyangwa gukora ibindi . Akaba ari agace gakorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi bw'imurikagurishwa kandi bakaba bizeye umutekano wabo kubera ko nta binyabiziga byemerewe kuhanyura.

Hano ni mu mujyi wa kigali ahashyizwe intebe mu duce dutandukanye, kugira ngo bifashe abaturage kuba baruhuka mu gihe bari ku rugendo, abakeneye kuganira, kwidagadura cyane ko aka gace katemerewe kunyurwamo n'ibinyabiziga, mu rwego rwo kurinda impanuka bikaba bigaragaza ubwisanzure abaturage baba bafite mu gihugu cyabo.

Uyu muhanda wubatswe mu mujyi wa kigali ahitwa Nyarutarama, ukaba ari umwe mu bifasha abashaka gukora imyitozo ngororamubiri kuba bayihakorera bumva bisanzuye kandi batekanye bitewe n'uko nta binyabiziga baba bahura nabyo.

Umuhanda wubatse mu mujyi wa kigali ahazwi nka Nyarutarama, ukaba ufasha by'umwihariko abifuza gukora siporo, ndetse n'indi myitozo ngororamubiri, mu gihe haba hari umutekano ku buryo badashobora guhura n'impanuka zitewe n'ibinyabiziga.

Hano turabonaho ikibuga cy'umupira ndetse n'abari kugikiniraho, mu buzima bwacu bwa buri munsi tukaba dukenera gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Hano turabonaho ikibuga cy'umupira ndetse tukabona n'abari kugikiniraho akaba ari mu bifasha abaturarwanda kubona aho bakorera imyitozo ngororamubiri cyane ko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bicayemo ahantu m'imbere mu inzu, imbere yabo hariho ameza n'ubucupa bw'amazi, hejuru ku meza na za mikoro imbere yaho harimo na za telefone zabo niho zirambitse hakurya urugi rurafunguye.

Iki cyapa nikiranga aho imodoka zihagarara by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, bikaba byorohereza abakeneye kuzitega kumenya aho bajya kugira ngo bazibone, ndetse bikagabanya akavuyo ko mu muhanda nko kuba haba impanuka.

Iki cyapa kigaragaza aho ibinyabiziga bihagarara, by'umwihariko ibitwara abagenzi rusange, bikaba bifasha abakeneye kubitega kuba bamenya aho bahagarara.

Iki cyapa ni ikiranga aho abanyamaguru bambukira, kikaba gifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya aho bagabanya umuvuduko kugira ngo badateza impanuka ndetse bigafasha abaturage kutanyura aho babonye hose mu rwego rwo gukurikiza amategeko.

Aya ni amatara ashyirwa ku mihanda kugira ngo afashe abagenzi kumenya igihe cyo kwambuka ndetse n'abatwara ibinyabiziga bagahagarara kugira badateza impanuka, bikaba bifasha kwirinda akavuyo ko mu mihanda.

Iki cyapa kigaragaza aho kwambukira. Kikaba gifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya aho bagomba kugenda gake kugira ngo badateza impanuka, mu gihe hari gutambuka, ndetse n'abagenda n'amaguru, bikabafasha kutanyura aho babonye hose.

Aya ni amatara ashyirwa ku muhanda kugira ngo afashe abagenzi kumenya igihe gikwiriye cyo kwambuka kandi n'abatwara ibinyabiziga bibafashe mu rwego rwo kwirinda impanuka no guteza akavuyo mu mihanda.

Iki ni kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kuhamenya mbere kugira ngo bagabanye umuvuduko babe bakwirinda guteza impanuka.

Iki cyapa kiranga ahari aho abanyamaguru bagomba kwambukira, kikaba gifasha abatwara ibinyabiziga, kumenya ko bagomba kugabanya umuvuduko kugira ngo badateza impanuka, ndetse n'abambuka kubafasha kutanyura aho babonye hose kugirango ngo bataziteza.

Iki ni icyapa gishyirwa ku muhanda, kiranga aho imodoka zigomba guhagarara, bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kumenya aho bajya, badahagaze mu muhanda ngo bateze akavuyo, bitakinda impanuka, ndetse bigafasha n'abifuza kuzitega kumenya aho bazishakira.

Iki cyapa kigaragaza ko nta ho guparika hahari. Bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kwirinda guhagarara ahabonetse hose, mu rwego rwo kwirinda inkanuka ndetse n'akavuyo ku mu muhanda.

Iki ni kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda mu duce dutandukanye kugira ngo bifashe abatwara ibinyabiziga, ndetse n'abandi bantu kuba bamenya aho baherereye cyane cyane nk'abanyamaganga baba baje mu gihugu batahazi, bikaborohereza.

Iki ni icyapa gishyirwa ku mihanda, kigaragaza ko utwaye ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka, cyangwa se kuba yayikora.

Iki ni icyapa gishyirwa aho imodoka zihagarara, kikaba gifasha abakeneye kuzitega kumenya aho bashobora gutegerereza ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kudahagarara ahatemewe n'amategeko, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Hano turahabonaho icyapa akaba ari kimwe mu bishyirwa ku muhanda kugira ngo bigaragaze aho imodoka zigomba guparika, mu rwego rwo kwirinda guhagarara aho zibonye bikaba byanateza impanuka ndetse n'ukeneye kuzitega akaba ashobora kumenya aho yazishakira,

Iki cyapa ni igishirwa ku muhanda, kigaragaza ko ntahantu ho guparika hahari. Bigafasha abatwaye ibinyabiziga kudahagarara aho babonye hose mu rwego rwo kurinda akavuyo mu muhanda ndetse no guteza impanuka.

Hano turabonaho icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira, kikaba gifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya aho bagomba kugenda gake kugirango batagira uwo bagonga. Kandi bigafasha n'abagenda n'amaguru kwirinda guteza impanuka baca aho babonye hose.

Iyi migozi turi kubona hano ni iy'umuriro w'amashanyarazi aho iwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bikanabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse nkuko tubibona hariho n'amatara ku muhanda atuma bashobora gukora ingendo n'ijoro bumva bafite umutekano kuko haba habona.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza bikozwe mu biti biba ar i mu byo abanyabukorikori bakora bigaragaza ko akamaro kabya atari kuduha umwuka duhumeka gusa ahubwo iyo bifashwe neza bibyazwamo ibindi bintu kandi bigatunga n'ababikora.

Izindi ni iyubako za rumwe mu ruganda zikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, zikaba zarahariwe agace zikoreramo mu rwego rwo kwirinda kwangiza ibidukikije zikwirakwiza ibyotsi byayo ahantu hose.

Imbere y'inyubako nini turahabona moto ziteretse ibisanduku bigemurirwamo bicuruzwa ababitumije bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari bumwe mu buryo bworohereza benshi kuba babona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo kandi bakabigezwaho byihuse.

Izi ni inyubako nini zubatse mu buryo bugeretse, zikaba ziherereye mu mujyi wa Kigali, aho bigaragaza uburyo igihugu gifite iterambere; kandi n'uburyo zubatsemo bukaba ari ubwo gukoresha neza ubutaka.

Hano turabonaho ibinyabiziga bya motobikaba byifashishwa mu gutwara abagenzi ndetse n'ibintu bikorohereza ababitega kugera aho bagiye mu buryo bwihuse kandi buciriritse

Hano turabonaho inzu yubatse igeretse ikaba ifasha abaturage gukorera hamwe ndetse ikaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bukaba ari uburyo bwo gukoresha ubutaka neza.

Iki kiraro cyubatse mu mujyi wa kigali aho kiriho umuhanda uca hejuru y'undi akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u rwanda cyateye imbere.

Aka kazi tubona hano ku muhanda ni kamwe mu twagiye dushyirwa ahantu hatandukanye kugira ngo dufashe abaturage kuba bakwicaraho mu gihe bategereje imodoka cyangwa se no kuruhuka igihe baba bari mu rugendo.

Hano turabonaho umuntu utwara ibintu n'abantu akoresheje ikinyabiziga cya moto, ndetse gikoresha umuriro w'amashanyarazi mu rwego kwirinda kwangiza ibidukikije, bukaba ari uburyo abakora akazi ka buri munsi bakunda bitewe nuko bwihuta kandi buciriritse.

Muri uyu muhanda turabonamo ibinyabiziga byinshi byiganje mu moto zikaba ari zimwe mu zorohereza abakora akazi ka buri munsi, kubera ko zihuta kandi zikaba zihendutse, nanone tukabonamo amatara afasha abagenzi kumenya igihe cyo kwambukira n'abatwara ibinyabiziga, mu rwego rwo kurinda impanuka mu muhanda ndetse n'akavuyo.

iki n'ikiraro cyubatse mumugi wa kigali mukarere ka kicukiro kikaba kiriho umuhanda uca hejuru, akaba ari kimwe mubikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi ryihuse.

Hano turabonaho umuntu utwara abantu n'ibintu, akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari uburyo bworohereza abaturage kugera aho bifuza kujya, byihuse kandi biciriritse.

Iki kiraro cyubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ndetse kikaba kiriho n'umuhanda unyura hejuru y'iyindi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ryihuse, ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi mirongo iri mumuhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira muburyo bwemewe n'amategeko, kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga, kwirinda impanuka bitewe n'uko abantu baba batari guca aho babonye hose.

Aya matara ari hano ku muhanda, ni ahashyirwa kugira ngo afashe abanyamaguru, kumenya igihe cya nyacyo bagomba kwambukira banyuze muri iyo mirongo, ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga, kwitonda kugirango badateza impanuka.

Muri uyu muhanda turabonamo amatara akaba arayereka abagenda n'amaguru, kumenya igihe gikwiriye cyo kwambuka ndetse n'abatwara ibinyabiziga kugira ngo hirindwe akavuyo ko mu muhanda no guteza impanuka nyinshi.

Iki kiraro cyubatse mu mujyi wa kigali mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ryihuse kandi n'abanyamahanga bakishimira kuhasura.

Hariya turahabona ikiraro kikaba kiriho umuhanda uca hejuru y'undi; yose ikaba iherereye mu mujyi wa kigali bikaba bigaragaza iterambere ry'uwo mujyi.

Iyi mirongo iri mu muhanda niyo igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira byemewe n'amategeko, hari uburyo bworohereza abatwara ibinyabiziga kwirinda gukora impanuka, ndetse n'abakoresha umuhanda bakirinda guca aho babonye hose.

iyi mirongo tubona mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira byemewe n'amategeko, bikaba byorohereza gutwara ibinyabiziga, kuba batateza impanuka zitewe no kuba abantu baca aho babonye hose.

Iki kiraro cyubatse mu mugi wa Kigali, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'undi, bikaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere kandi mu buryo bwihuse, bugaragara.

Iki kiraro cyubatse mu mujyi wa Kigaki mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, ikaba ari kimwe mubikorwa bigaragazako u Rwanda rwateye imbere muburyo bugaragara kandi bwihuse.

Aka gahanda tubona hano ku ruhande ni akashyiriweho abagenda n'amaguru, bikaba ari uburyo bwo kurinda impanuka zitandukanye zitewe no kuba abantu babyiganira mu muhanda ndetse n'ibinyabiziga.

Muri uyu muhanda turabonamo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira bukaba ari uburyo bufasha abatwara ibinyabiziga bakamenya aho bahagarara mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'abayikoresha bakirinda guca aho babonye hose bagakurikiza amategeko.

Muri uyu muhanda turabonamo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amagare, akaba ari bimwe mu bikoreshwa mu gutwara imizigo ndetse n'abafite ubushobozi buke kandi bifuza kujya ahantu kure bakaba bashobora kubitega.

Iyi ni imirongo ishyirwa mu muhanda igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kumenya aho bahagarara mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kurinda impanuka hirindwa ko abantu baca aho babonye hose.

Iki kiraro cyubatse mu mugi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda unyura hejuru y'iyindi, kikaba kigaragaza uburyo igihugu cy'u Rwanda kigenda gitera imbere, ndetse n'abagisura bakarushaho kucyishimira.

Hano turahabona amatara yo kumuhanda aho afasha abanyamaguru kumenya igihe bagomba kwambukira ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakamenya igihe bahagararira kugirango bareka abantu batambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye cyangwa se akavuyo mu muhanda.

Inzu inzu nini isize umucanga ndetse hari n'inzu ishaje ntoya, nyuma yaho hari ishyamba n'icyapa cyanditseho akanyaru, huye, muhanga; hariho icyapa kiriho akantu kazamuye ndetse n'ikindi gitambika hariho Ruhango, Kinazi

Iyi mirongo tubona mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, ikaba ifasha abatwara ibinyabiziga kwirinda gukora impanuka, bitewe n'uko batabonye uri gutambuka, ndetse bigafasha n'abantu kudaca aho babonye hose.

Iyi mirongo tubona mu muhanda niyigaragaze aho abanyamaguru bagomba kwambukira bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kwirinda gukora impanuka, kandi bigafasha n'abantu kutanyura aho babonye hose.

Iyi mirongo ishyirwa mu muhanda kugira ngo yerekane aho abagenda n'amaguru bagomba kwambukira, akaba ari uburyo bworohereza n'abatwara ibinyabiziga, kuba bakwirinda gukora impanuka bitewe nuko hari abari guca aho babonye hose.

Muri uyu muhanda turabonamo imirongo ifasha abanyamaguru kumenya aho bagomba kwambukira mu rwego rwo kwirinda impanuka, ndetse turahabona n'amatara ashyirwa ku mihanda yerekana igihe gikwiye cyo kwambuka.

Muri uyu muhanda turabonaho imirongo igaragaza aho umunyamaguru agomba kwambukira, bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kumenya aho bahagarara mu gihe hari uri kwambuka ,ndetse bikagabanya n'impanuka mu mihanda zitewe n'abambukira aho babonye hose.

Hano turabonaho ikiraro gicaho umuhanda uca hejuru y'iyindi, kikaba cyubatse mu mujyi wa Kigali; akaba ari kimwe mu bikorwaremezo igihugu cyagezeho kandi byiza.

Muri uyu muhanda turabonaho amatara ashyirwaho kugira ngo afashe abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka, ndetse n'abatwara ibinyabiziga bagahagarara kugira ngo batagonga abari gutambuka, kandi bikanarinda akavuyo mu muhanda.

Muri uyu muhanda turabonamo ubwoko bw'ibinyabiziga butandukanye by'umwihariko moto akaba ari kimwe mu byo abakora akazi ka buri munsi bakunda gutega bitewe n'uko cyihuta kandi bihendutse.

Iyi mirongo nayo igaragaza aho umunyamaguru aba agomba kwambukira, bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kuba batakora impanuka bitewe n'uko baba bamubonye kandi bigafasha n'abakoresha umuhanda kutanyura aho babonye hose.

Iyi mirongo iri mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe kandi bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga, kwirinda gukora impanuka zitewe n'abaciye aho babonye hose ndetse cyane ko haba harimo n'amatara nk'uko turi kuyabona agaragaza igihe cya nyacyo cyo kwambuka, haba ari umunyamaguru cyangwa no gutegereza ibinyabiziga bikabanza bigatambuka.

Iki ni ikiraro cyubatse mumugi wa Kigali, kikaba kiriho umuhanda uca hejuru y'undi, kikaba ari kimwe mubikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere.

Iyi mirongo iri hagati mu muhanda ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, aho kwirinda kwambukira aho babonye hose, kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kwirinda gukora impanuka.

Iyi mirongo iri mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe n'amategeko, bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kwirinda gukora impanuka, zitewe n'abaca aho babonye hose.

Muri uyu muhanda turahabona ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo abatwara abantu bakoresheje moto, bukaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo za buri munsi cyangwa n'abafite gahunda zihuta, kubera ko ari uburyo buborohereza kugera aho bajya byihuse, kandi bukaba bunahendutse.

Hano turabonamo abatwara abantu n'ibintu bakoresheje ibinyabiziga bya moto akaba ari uburyo bukunze kwifashishwa n'abakora ingendo za buri munsi kubera buborohereza kugera aho bajya mu buryo bwihuse kandi buhendutse.

Iyi mirongo tubona hano, ni igaragaza aho umunyamaguru agomba kwambukira, kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bakwirinda gukora impanuka, ndetse turahabona n'amatara agaragaza igihe cya nyacyo cyo kwambukira, mu rwego rwo kwirinda akavuyo mu muhanda.

Muri uyu muhanda turabona aho imirongo yerekana aho umugenzi agomba kwambukira turanamubona ugiye kwambuka. Bikaba bifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya aho bahagarara kugirango hatabaho impanuka kandi bigafasha n'abagenda n'amaguru kwirinda guca aho babonye hose.